Ahantu hagurishirizwa imiti, abantu banywa iyo barwaye n'ahantu bigaragara ko ari muri farumasi, hari imiti myinshi y'ubwoko bugiye butandukanye, imiti igiye ipanze mu kabati kagiye gafite imyanya igiye itandukanye, iyi miti igurwa n'abantu iyo barwaye bagamije kwivura ngo bakire.

Icyatsi cyameze ahantu hasa nk'aho ari ku nzira cyangwa mu mbuga y'ahantu, aho hantu na ho hari utundi twatsi tujya kumera nk'urwiri. Ni icyatsi cyifashishwa mu buvuzi aho kivura indwara zigiye zitandukanye zibasira abana, ndetse rimwe na rimwe indwara zibasira n'abantu bakuru.